Iyi foto mbere na mbere ndayibonaho abantu, ariko ndabonamo abantu babiri bambaye ikirango cyangwa umwenda ugaragaza ko ari abo muri cya kigo gifasha abantu, kugira ngo bite ku buzima bwabo kuruwaruje, bari kugira inama bariya bantu uko mbitekereza.

Abashinzwe gutanga ubutabazi bw'ibanze by'umwihariko mu gice cy'ubuzima, bari kugerageza gutabara umuntu ugize ikibazo runaka, bigaragara ko atameze neza kuko urabona yateruwe nta mbaraga nta nkeya afite.

Abaturage bari kwigishwa ukuntu ubutabazi bw'ibanze butangwa. Bari kwigishwa igihe habaye inkongi y'umuriro ese bakora iki, bazimya iyo nkongi gute gaze bacanaho iramutse ituritse byagenda bite? Ibyo bari kubyigishwa mu ruhame.

Abaganga basa neza bafite akanyamuneza ku maso, bambaye impuzankano ibaranga nk'abavuzi, bari ahantu ubona ko ari icyumba bavuriramo, babagiramo umurwayi, hejuru hari ibitara biremereye byo kwa muganga.

Iyi foto iriho abaganga, aba babiri bahagaze bambaye bikwije ni abaganga, hari akagare batwararaho umurwayi hanariho umurwayi kandi urabona arembye kuko nyine bamuryamishijeho ariko nkurikije ukuntu birinze, ukuntu hari ibimenyetso bigaragaza y'uko aho hantu hateje akaga, uyu muntu ashobora kuba arwaye icy cyorezo.

Umukozi w'ikigo gitanga ubutabazi bw'ibanze gishinzwe cyane cyane kwita ku buzima kiri gutanga ibikenewe byihariye byo kwiyorosa, ibyo kuryamira, uko bigaragara n'umuntu wahuye n'ibiza bari gufasha bagaha uburyamo, bagaha ibyo kwiyorosa.

Ku ivuriro ahantu mu cyumba, bigaragara yuko gishashe neza, gifite isuku, ariko hejuru hari igitara kinini, bigaragara yuko iki cyumba aricyo babagiramo umurwayi.

Imodoka y'ibitaro, imbangukiragutabara, itwawe n'umuganga, wambaye, wikwije bisobanuye y'uko bagiye gutabara umuntu urembye, ufite indwara, ishobora, kwanduza, umwegereye, igihe wegereye umurwayi.

Abakorerabushake cyangwa abakozi babyimeje bambaye impuzangano zigaragaza yuko biteguye gutanga ubutabazi bw'ibanze, mu buryo bwose bari kuzenguruka ahantu hari isoko, ahantu hacuruzwa imyambaro mu buryo buciriritse.

Iyi foto iragaragaza kimwe mu byumba byo kwa muganga, aha ni aho bagira abarwayi hari abaganga bambaye impuzankano zituma bikwiza, ariko ku ruhande hari n'abaforomo abafasha abaganga bakuru bari kubafasha ku gikorwa barimo cyo kubaga umurwayi.

Abashinzwe gutanga ubutabazi bw'ibanze bambaye imyambaro ibafasha kugira ngo batagira ikibazo ni ahantu habera impanuka, urabona hari imbangukiragutabara hari abashinzwe gufasha ni ahantu habaye ibizazane.

Umuntu uryamye ku ngobyi, batwaramo umurwayi, atwawe n'umugabo wambaye ikirango kigaragaza yuko akora mu bantu bashinzwe gutanga ubutabazi bw'ibanze, bari kumutwara, urabona ko ari umuntu urwaye, bajyanye guha ubutabazi bw'ibanze.

Mu cyumba cyo ku ivuriro aho babagira umurwayi, ahantutu ubona hashobora gutera ubwoba umuntu ariko hari abagangabona babishoboye, hari n'umuzungu waje nawe kubafasha, ni icyumba ubona yuko cyita ku barwayi.

Iyi foto iragaragaraho abantu benshi, iragaragaraho nanone hino ibikoresho twifashisha tuvoma amazi, tubyita ijerekani tukanabonaho amadobo n'ibikoresho byifashishwa kugira ngo dukore amasuku cyangwa dukora ibindi bintu ariko hari n'imodoka y'ikigo gishinzwe kwita ku mbabare.

Ahateraniye abantu bari ku ruganiriro, ni abantu batari benshi cyane. Gusa nkuko bigaragazwa n'ikirango, biragaragara ko bari guhabwa amahugurwa y'ukuntu hatangwa amaraso no gushishikariza abantu gutanga amaraso.

Ahantu hatangirwa amahugurwa afitanye isano no kwita no gutabara no gutanga ubutabazi bw'ibanze mu buzima bwa buri munsi, abantu bari guhugurwa uko bakwambara n'uburyo bakoramo imirimo yabo.

Hano hantu hari inyubako iyi nyubako iracyafunze, ariko ndi kubonaho abantu. Aba bantu birashoboka ko ari inzego z'ubuyobozi kuko ndikubonamo n'ingabo z'igihugu, ndikubonamo n'abandi bagabo biyubashye birashoboka ko ari inyubako bagiye gutaha.

Imbere mu mbangukiragutabara, ibikoresho bigiye bitandukanye biba birimo, uburyamo, aho kwicara n'ibindi bigiye biri mu modoka y'imbangukiragutabara.

Kwa muganga, icyumba bafatiramo ibizami, umuganga wambaye imyenda igaragaza ko ari umuganga, n'udukoresho yambaye mu gatuza, ari kumwe n'umurwayi bigaragara ko ari kumurebera umutsi w'ukuboko.

Mu bitaro ahantu mu cyumba ubona hari agatanda gakoze mu buryo bwa gihanga, ahantu ubona bavurira abarwayi barwaye amenyo, ahantu ubona hari isuku.

Iri ni ivuriro riherereye mu Karere ka Nyagatare, ahitwa i Tabagwe, iri vuriro ryubatse neza urabona ko rikomeye, rirafite isuku hose, nta kibazo abantu bararigana urabona ko ibikorwa biri kuhabera.

Umuganga wita ku buzima bw'umurwayi, ari kwita ku murwayi ubona urembye cyane ufite ibyuma bimufasha guhumeka ibyuma bimwongerera imbaraga mu mubiri, umuganga ari kumwitaho uko bishoboka kose.

Ahantu ku ivuriro, muganga wambaye imyenda imuranga ari kuganiriza abarwayi, hano hari abarwayi abari kugendera mu mbago abananutse cyane, ubona wagira ngo hari ubumuga runaka bafite ariko, bari gukina hari umupira utukura wo gukina amaguru, bari gukina barishimye.

Umujyanama w'ubuzima yicaye ku gatebe ka Kinyarwanda, yicaye imbere y'abaturage n'ababyeyi bo bakikiye abana bakiri batoya birashoboka ko baje gukingiza, cyangwa guhabwa andi masomo bayahawe n'umujyanama w'ubuzima.

Irembo cyangwa umwinjiro w'ibitaro bya Kigeme, ahantu hasa neza, hari isuku, umuryango mugari, amarembo arafunguye, baratanga ikaze muri ibyo bitaro, bifite ubusitani bwiza, bifite ahakotiriye heza.

Ahantu ku ivuriro, abaganga bambaye impuzangano y'ibara ry'umweru, iy'utwite, itaburiye, baricaye barakurikiye, bisa n'aho bari guhabwa amahugurwa cyangwa bari mu nama.

Aha ni ikigo nderabuzima cyangwa ivuriro, hari abaganga babiri umurwayi wegutse wicaye ku gitanda, abaganga babiri ubona ko badahuje ibara ry'uruhu ariko bakoranye neza.

Ahantu kwa muganga hari mudasobwa yatse, icanye, hari izindi mashini bincomekeranyije, ubonana ko ari ahantu hakorerwa ibintu byihariye.

Mu kuboko kw'iburyo umuganga wambaye umwenda muremure w'umweru ugenewe abaganga, hirya umuzungu n'abandi bantu babiri abirabura bari kuganira bigaragara ko basuye ikigo nderabuzima runaka, umuganga ari kuganirira aba bashyitsi uko ikigo cyabo gikora.

Ibi n'ibitaro aha n'ahantu hateraniye abantu bafite ibibazo bitandukanye, hari abafite ubumuga bagendera mu tugare, abagendera mu mbago, abakecuru bashaje barwaye umugongo na bo bahaye ubu buryo bwo kugendera ku kantu gafite amapine bari gusabana.

Ahantu ku ivuriro hari abantu batandukanye abagabo, abagore, abazungu, abirabura, abambaye imyenda y'impuzankano, bahagaze imbere y'inyubako turi bwite ivuriro.

Ahantu kwa muganga ubona hari ibikoresho byo kwa muganga, hakaba hari n'umuntu wambaye uturindantoki n'umwenda w'umweru wambarwa n'abaganga, ubona ko hari ibyo ari kwandika, hirya hakaba hicaye umuntu bisa nkaho ategereje kubona ibisubizo by'ibizami yafashwe n'umuganga.

Ku ivuriro, ahantu hagenewe kwicara abantu benshi, umujyanama w'ubuzima ari kubafasha, bari guhabwa inyigisho uko bigaragara n'umuyobozi runaka, bigishwa ku bijyanye n'ubuzima bwabo.

Ibitaro birimo abarwayi, ibitanda bisashe neza birimo inzitiramibu, akazana umuyaga, urabona ko iri ari ivuriro risa neza ryihagazeho ahantu hasa neza utamenya ko ari mu bitaro.

Ahantu mu kirongozi cyo mu ivuriro, abantu batatu ubona bafite ibibahugije, ariko umuryango duteganye, ni umuryango wagenewe aho abantu bicara bakaganira, abakozi bakorera mu bitaro runaka.

Iyi foto iragaragaza ahantu mu nzu hateretse igikoresho ndi bwite mudasobwa ariko kigaragara ko ari icya kera gikuze ariko nkaba ndi no kubona giteretse ahantu hatiyubashye ku makarito.

Imbaga y'abantu benshi cyane bahagaze hamwe, bahagaze imbere y'ivuriro ryiza ry'inyubako igeretse ryatashywe ku mugaragaro abaturage bose bareba.

Abagabo bafashe ishusho bahagaze imbere y'ikigo nderabuzima cyitwa Nyamikamba, ikigo nderabuzima cyubatse neza gisize amabara y'ubururu n'ay'icyatsi.

Ibiganza bibiri, byambaye uturindantoki, bifite urushinge mu ntoki ,hirya ikindi kiganza gisa nk'aho cyateze agatoki, Ubona bagiye gufatira ibizami by'amaraso.

Mu bitaro ahantu hasukuye, hasa neza, ubona umurwayi amaze gufata ibintu bye ashobora kuba agiye gutaha, gusa hari ibitanda byiza, hari inzitiramibu, hari isuku.

Ahantu kwa muganga barwayi ubona bashyiriweho intebe zo kwicaraho mu gihe bategereje gufashwa, umubyeyi ubona ko yaje kwivuza ukuze, hirya ukikiye umwana ubona ko bose bakiriwe neza.

Ahantu ku kigo nderabuzima, ahantu hasa nk'aho hari abantu benshi, gusa wegeye hino urabona umuganga wambaye uturindantoki uri kumwe n'umurwayi, ari kumutera urushinge ubona umurwayi yabishe kubera gutinya urushinge.

Iyi ni ifoto irimo ibintu byinshi, gusa hariya tureba, iriya nyubako ni ku ivuriro, ku kigo nderabuzima cy'Akarere ka Nyagatare, hino turahabona imbangukiragutabara, imodoka yifashishwa mu gutwara abarwayi mu kubakura mu rugo babajyana ku bitaro, mu kubajyana ahandi runaka.

Ku ivu, ku ivuriro mu bitaro umuganga ari gukurikiranira hafi abarwayi, hirya abarwayi bafite aho kuryama ahantu hasa neza hadafite ikibazo na kimwe hateje.

Ku kigo nderabuzima ahateraniye abantu benshi, abakobwa, ababyeyi bahetse abana, hari abayobozi n'abaganga, abaganga bambaye imyenda ibaranga, bahagaze imbere bari kuganirira aba baturage baje babagana kuri ibi bitaro.

Aha hantu ni ku ivuriro, umuntu utwegereye ni umuganga uri kuganiriza bariya bantu bicaye ku ntebe, ariko hirya hakaba hari n'umuntu ufite uruhu rwera, nawe ushobora kuba ari hafi aho ngaho, iri ni ivuriro, ariko ndabona bari no kuganiriza abantu.

Icyumba ku ivuriro ahantu, umuganga wambaye umwenda w'umweru ugaragaza ko umuganga, afite ikaramu n'urupapuro arikubaza ibintu runaka umurwayi ubona ko wakurikiye ibyo muganga amubwira.

Kwa muganga hari: ibikoresho byifashishwa mu buvuzi, byifashishwa mu gupfuka ibisebe, gupfuka abakomeretse, turahabona uturindantoki, amapamba ashinzwe gusiga umuti mu gisebe yewe n'ibipfuko.

Ahapimirwa ibizami byerekeranye n'ubuvuzi, abanyeshuri bari kwigishwa uburyo ki bashobora na bo gupima ibizami, ni abanyeshuri bambaye imyenda myiza, bambaye uturindantoki, bari ahantu hagari hari ibikoresho bihagije.

Udukarito duto, turimo imiti, iriya ni imiti, iri ahantu basuzumira ibizamiini by'abarwayi, iriya mi ikarito ya mbere ishushanyijeho umubu, birashoboka ko ari umuti uvura malariya.

Ahafatirwa ibizami umuganga wambaye uturindantoki afashe urutoki rw'umurwayi agiye kumufata amaraso, kugira ngo amupime indwara runaka umurwayi yaje kwivuza.

Ahantu hasa neza hari ibiganza ubona by'umuganga wambaye uturindantoki ufite inshinge n'ibikoresho byifashishwa bapima ibizami byafashwe umurwayi binyuriye mu maraso.

Umuganga wicaye uri gufata ibizami by'amaraso, ayafatiye mu gatoki urabona umurwayi, birashoboka y'uko ari kumupima indwara runaka zandura binyuriye mu maraso ari mupima sida cyangwa ibindi.

Icyumba gipimirwamo ibizami byatanzwe n'abarwayi, ahantu heza, ibikoresho bihari ni ibikoresho bibikwamo ibizami bifashisha, ibikoresho ubona bifite isuku.

Ahantu heza kwa muganga, hari ibyuma byinshi byifashishwa bapima ibizami byatanzwe n'abarwaye, amaraso, umusarani, n'ibindi byinshi kugira ngo harebwe indwara iri mu mubiri w'umurwayi.

Aho bapimira mu buryo bw'ikoranabuhanga ibizami bafashe abarwayi, umuganga ufite igipimo mu ntoki, igipimo kiriho amaraso muyo baba bafashe ku murwayi bagiye kumupimaho indwara.

Mu cyumba aho bafatira bakanasuzumira, abarwayi ibizame byabo bakabigenzura mu buryo bw'ikoranabuhanga. Turabona umugabo wambaye uturindantoki, ufite udushinge dukoreshwa bagiye gufata amaraso umurwayi.

Umubyeyi ukikiye umwana, umwana ukiri mutoya w'uruhinja, umubyeyi arishimye ari gusoma umwana we, bigaragaza yuko yamwishimiye rwose kandi umwana ameze neza.

Ihema rinini cyane ryubatse neza ririmo abantu benshi biganjemo: ababyeyi, abagabo, abagore bakikiye abana b'impinja bakiri batoya.

Abana batoya bambaye impuzangano, imyambaro y'ishuri, bari kwigishwa, bari gushyirirwaho morale n'umurezi ubarera, ibi bikagirira akamaro abana, bakagira mu mutwe hazima, ubuzima bwabo bukagenda neza.

Iyi foto yagaragaraho mu kuboko kw'ibumoso umugabo n'umugore, uriya mugore aratwite bagiye kureba umujyanama w'ubuzima nk'uko tumureba ari kubasobanurira, ari kubaganiriza uko umugore utwite yitwara n'ibindi byose bishobora gutuma umwana uri mu nda amererwa neza.

Ababyeyi bazanye abana babo ku ivuriro, ni ivuriro ubona abantu bakora bishimye, umuganga ari guhereza ubufasha ababyeyi abafasha gupima abana babo kugira ngo bamenye aho ibiro byabo bigeze, aho imikurire yabo igeze, urabona ko ababyeyi bishimye cyane.

Aha ni imbere muri ya marerero ashinzwe kwita ku bana b'inshuke abafasha bakitabwaho, bakabona intungamubiri zose zishoboka ibiryo bikungahaye ku ntungamubiri, amata, aya ni marerero ari mu Midugudu.

Abantu basa neza abakuru n'abana, baje gutaha cyangwa gutangiza irerero riri i Matimba.

Inyubako zisa nk'a zimaze iminsi zishajeho, gusa nkuko biri kugaragara wagira ngo turabona ko ari ikigo gishinzwe kwita ku bahohotewe, bahungabanyijwe n'ibyababayeho cyangwa abandi bakeneye kuganirizwa.

Abantu bicaye hamwe batuje bahawe imyambaro isa bari kuganirizwa n'ikigo gishinzwe kwita ku buzima ari ku ishami rishinzwe kwita ku buzima bwo mu mutwe baganirijwe, bahuguwe, bigishijwe ku birebanye n'ukuntu bagombye kwita ku buzima bwo mu mutwe.

Abantu ubona bari mu bukangurambaga, bashishikaye, bari kugira abandi inama zo kugana ikigo gitanga ubufasha ku bafite ibibazo byo mu mutwe, batangira se babitangira ubuntu.

Abana benshi bambaye impuzankano y'ibara ry'icyatsi hejuru, bafite udutabo bahawe babona basa nk'aho bakurikiye hari igikorwa bakurikiye nta kurangara.

Abantu b'ingeri zigiye zitandukanye abenshi muri bo bambaye impuzankano hejuru, harimo abafite uruhu rwera twita abazungu, hakaba mo n'abirabura, bifotoreje ahantu ubona ko ari ikigo cy'urubyiruko cya Cyinzuzi hari n'amagambo agira ati rinda inzozi zawe.

Abagabo n'abagore bambaye impuzankano, imyenda yo hejuru yanditseho ibirango by'ibyo bakora, serivisi batanga mu rwego rw'ubuzima, bari kuganirizwa, bari mu mahugurwa, bari mu nama, iganira ku ibirebanye n'ubuzima.

Ikirango cyamamaza ibikorwa byari bigamije gutanga ibiganiro ku buzima bwo mu mutwe abantu bagiye batandukanye bari bufate umwanya ndetse hakagaragara ko byari bube ari ku cyumweru itariki ya makumya n'eshanu nyakanga.

Iyi foto iri kugaragaraho iduka ryiza ririmo abagabo babiri, umucuruzi numukiriya, ariko iri duka ricuruza imiti n'amavuta yo kwisiga nk'uko bigaragara ku ifoto.

Ahantu ku nyubako iriho'ibyapa bigiye bitandukanye, hariho ikigaragaza ko hakorerwa serivisi yo kuvura amenyo, turahabona muganga w'amenyo, tukanahabona ahacururizwa imyenda, hirya ahatangirwa serivisi z'amabanki.

ububiko bwIzabu bw'imiti busa neza, bupanzemo imiti neza, aho ibinini n'imiti yo kunywa bidashobora kugira ikibazo runaka bigira, kubera ko bibitswe neza.

Kwa muganga ahabikwa hakanatangirwa, imiti, turahabona utubati dutondetsemo imiti igiye itandukanye myinshi, tukahabona, umuntu wambaye umwambaro w'umweru ubona ko afite isuku, ari kuyitondeka neza ku murongo.

Ububiko bw'imiti cyangwa ahacururizwa imiti n'umuntu ushinzwe kwita ku miti, kuyishyira kuri gahunda no kuyitanga ku barwayi.

Ikirango kigari kiri ku rukuta ahantu bigaragara y'uko hatangirwa imiti kandi bakagaragaza y'uko bakora amasaha yose umurwayi ashobora kubegera bakamufasha.

Ahantu ku muhanda w'amabuye, umuhanda ufite n'agace k'abanyamaguru, hirya hari inyubako nziza yegereye umuhanda, ni ahacururizwa imiti, ni ahatangirwa ubufasha ku muntu urwaye indwara ukeneye imiti.

Iyi ni imiti iri kumeza igiye, itandukanye n'umumaro wayo utandukanye, ariko bigaragara yuko bayifunze neza mumakarito meza, ku buryo atapfa kwangirika nta bukonje nta bushyuhe bukabije.

Ububiko bw'imiti aha hari uducupa twinshi ubona dufunze neza, aha habikwamo imiti y'amazi akenshi ibigenewe abana, cyangwa abandi bantu barwara igifu batemerewe kunywa ibinini. Iyi miti ibitse neza.

Indobo ziriho ikirango gishushanyijeho ihene andi matungo magufi birashoboka ko harimo imiti cyangwa amavuta.

Iduka ricuruza imiti ivura abantu, ububiko bw'ibinini, inshinge n'ibindi byinshi, harimo amavuta, yisigwa ku ruhu, byose biri hano.

Iyi foto iri kugaragaraho abantu batatu, umukobwa umwe mu kuboko kw'ibumoso n'abahungu babiri bicaye bafite n'indangururamajwi mu kuboko kw'iburyo. Aba bombi nabonyemo umwe ndamumenya ni umunyarwenya umaze kumenyekana birashoboka ko bari kwitoza umwuga.

Umugabo n'umugore bambaye indangururamajwi zigezweho, bari gukina umukino umugore uhari yambaye igitenge ateruye umwana, umugabo afite isuka n'agafuka.

Umugore uri mu bukangurambaga bwo kwita ku buzima mu duce tugiye dutandukanye ari kubagezaho inyigisho, gahunda ziteganyijwe y'icyakorwa kugira ngo ubuzima bukomeze kumera neza.

Iyi foto iragaragara aho abantu benshi, aba bantu benshi baricaye baratuje ariko hirya imbere hari umuntu uhagaze ni umugabo uri kubagezaho imbwirwaruhame cyangwa inyigisho runaka, aba bantu birashoboka ko bari mu mahugurwa.

Abantu batari benshi cyane harimo abagore, abasore n'inkumi bafite mu ntoki zabo ikirango kinini kigaragaza ko bari mu bukangurambaga bwo kwimakaza ibiganiro byigisha ubuzima bw'imyororokere mu rubyiruko no mu muryango.

Iyi foto ni nziza iri kugaragaraho abantu bishimye bari gukoma amashyi banambaye impuzangano umwambaro ubaranga, aba bantu igikorwa barimo n'ugutaha ahantu runaka n'ugutaha inyubako urabona bamaze guca, bamaze guca ikintu kigaragaza cy'umutako kigara...

Iyi foto iragaragaraho imikono y'abantu ubona ko bari mu mirimo yo mu rugo, hagaragaraho n'amasahane arimo ibiryo harimo amashaza arimo soya n'ibindi bintu bifashisha bari gutegura amafunguro.

Imiti ya kinyarwanda iyotwite iya gakondo, iy'ibyatsi bibisi, yumye biri mu tuntu, ak'umweru, ak'umuhondo, n'umushumi, n'ibindi byatsi byumye.

Icyatsi cyiza gifite ibara ryiza ry'icyatsi ritoshye n'uturabo, iki cyatsi cyitwa umushishiro.

Isekuru n'umuhini, ni ibyo nibyo biri aho, bari kwereka ubu buryo bagiye gusekura ibyatsi, uburyo baterateranye ibyatsi bikavamo umuti gakondo, umuti utari uwo kwa muganga, ibintu, imizi, ibintu byinshi, kugira ngo bakore umuti.

Udufuka twinshi turimo imiti igiye itandukanye, harimo imizi y'ibiti, amababi y'ibiti, ibiti ubwabyo ubona ko ari ibikorwamo imiti ya kinyarwanda banywa, banisiga.

Abantu babiri bunamye bari kuyungurura umuti, isafuriya hirya n'indi hino bari kuyungururiramo umuti wa kinyarwanda.

Icyatsi cyitwa umuravumba, umubyeyi umuturage ari kugisoroma, uriya ni umuti tuzi uvura inkorora, umuti ukarishye cyane bahekenya ukanaryana ariko ukavura inkorora cyane.

Igiti, giti cyitwa intagarasoryo, cyangwa intoryi zirura, iki ni igiti kivura inzoka zo mu nda ku bantu bakuru, ku banana, ziriya mbuto zacyo z'umweru, umuntu arazihekenya agakira mu nda.

Ikigo nderabuzima cyegerejwe abaturage, hano hari abaturage baje kwivuza, bari kwegera serivisi ikora ubwishingizi, aho batangira ubwishingizi bwabo kugira ngo babarebe.

Umuganga nshingiye ku myambarire ye ari kuri mudasobwa ari kugenzura amakuru yerekeranye n'ubuzima agenda areba uko bihagaze.

Ikigonderabuzima cyegereye abaturage, umuganga aganiriza abaturage, abaturage bo mu ngeri zitandukanye, abagabo, abagore, babaganiriza ku kuntu bafata neza ubuzima bwabo.

Kwa muganga umurwayi yegereye umuganga, muganga hari ibyo ari kumubaza, ubona ko amwitayeho, aha ngaha akazi k'umuganga kari gukorwa neza, uko bikwiriye.

Ikigo nderabuzima cyitwa Girubuzima, giherereye ahantu heza hakikijwe n'ibiti, hari ikigega gishinzwe gufata amazi, mu rubaraza hakaba agatebe abaje bagana iri vuriro bashobora kuba bicayeho mu gihe bategereje ubafasha.

Ikigo nderabuzima gisa neza, cyubatse neza, gisize amabara meza abereye ijisho, hakaba hari n'ubusitani bwiza.

Ahantu hateraniye abaturage benshi abagabo n'abagore bari kubyina ubona ko bishimye, harimo abambaye imyambaro ibagaragaza ko ari abajyanama b'ubuzima, ni ahantu mu cyaro.

Iyi foto iri kugaragaraho abaganga, uyu wicaye aduteye umugongo wambaye imyenda y'umweru ni umuganga, aba ni ababyeyi aba bahagaze batureba bose bagiye bakikiye abana babo birashoboka ko baje kubakingiza urukingo runaka.

Ku ivuriro mo imbere mu cyumba cy'ivuriro hari umugabo, umugore uteruye umwana n'undi mugore na we uteruye umwana, uri guhereza umuganga ubwishingizi akoresha yivuza tuzi nka Mituweli.

Icyapa cyerekana aho ikigo nderabuzima cya Nyagatare giherereye ndetse kandi abafatanyabikorwa bagize uruhare mu kubaka kiriya kigo nderabuzima ariko hirya hari n'ikindi cyapa nacyo kigaragaza uburyo bundi bwo kuvurwa bugezweho.

Ikigo nderabuzima kiri ahantu heza, ahantu hari intebe zo kwicaraho, ababyeyi bazanye abana babo kubavuza babonye aho kwicara, bakikiye abana babo, umuganga bari kugenda abaha amabwiriza uko baribuze guhabwa ubufasha.

Ahateraniye abantu benshi ubona ko ari ku kigo nderabuzima, bari kuganirizwa n'umuganga hirya hari umunzani wifashishwa upima abana batoya.

Abantu bicaye ahantu hamwe. Ni benshi, biragaragara ko bari guhabwa, amahugurwa agendanye n'ubuzima. Kuko umugore uri hirya yambaye umwenda w'abajyanama b'ubuzima.

Inyubako, ikigo nderabuzima cyegerejwe abaturage cyitwa Gira ubuzima cyubatse neza, gisize amabara y'ubururu, kikanasakazwa amabati y'ubururu, abaturage bicaye ahatwikiriye hatagera izuba.